Umubyeyi uri kwa muganga amaze gushyikirizwa umwana we nyuma y'igikorwa cyo kumubyaza, cyakozwe n'abaganga b'inzobere kandi babihuguriwe.

Umwana uri mukigero cy'imyaka hagati y'umunani na cumi n'ibiri, arimo gukora amasuku yoza indobo kugira ngo aze kuzivomeramo zisa neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bari mu kigero k'imyaka icumi na cumi n'itanu bicaye hasi, bari kuganira ku cyateza imbere imyigire yabo.

Ahantu hagari mu kibaya harimo inzu zitandukanye, ndetse n'ubusitani twavugamo nk'inzu y'ikizeru ndetse n'indi nzu yitaruye ya mpande enye.

Ababyeyi bagiye gupimisha abana babo kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze bari gushyira umukono ku nyandiko yabugenewe buzuza n'iform y'uko baje kwitabira igikorwa cyo gukingiza abana.

Abana bato bari mu kigero cy'imyaka itandatu ndetse n'icyenda, bari kwidubaguza mu mazi, bambaye ubusa. Hejuru.

Abaturage bahuriye mu nzu mbera byombi aho bari kugirwa inama y'uburyo bushya bwo kwita ku isuku ndetse n'imibereho y'abagize urugo.

Abayobozi bakuru b'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bari kwiga ku buryo bushya bwo ku gutanga ubuvuzi hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse ni ikoranabuhanga rigezweho.

Urubyiruko rwambaye impuzankano, ipantaro y'umukara umupira w'ubururu, ndetse bafite n'ibyangombwa bibaranga, bari kumurika umushinga wabo, uterwa inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe abana.

Abana bari mu kigero k'imyaka icumi na cumi n'tanu, bari ku mugezi aho umwe ari gutomba amazi kugirango ngo azamuke bayavome mu kijerekani cy'umuhondo baje bitwaje.

Abanyeshuri bari mu kigero k'imyaka hagati ya cumi n'itatu na cumi n'itanu, bari ku ivomero bavoma amazi yo kwifashisha abakora isuku mu ishuri ryabo.

Abana bato b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abahungu ndetse n'abakobwa bari kubyiganira ku mugezi bashaka gukaraba intoki ngo bajye kurya.

Umwana wambaye imyenda y'umutuku, arimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune imbere ye hari ibase y'umukara irimo kujyamo amazi.

Abantu b'ingeri zitandukanye ako biganjemo cyane cyane abategarugori bahagaze imbere y'inzu igeretse kabiri iruhande rwho hari igiti.

Abakozi batanu bashinzwe kwita ku kigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije, bari gutangira immwitrwaruhame muri sare nini irimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye.

Abajyanama b'ubuzima bari mu cyumba cy'inama bambaye impuzangano y'ubururu, hejuru bari gusomera hamwe inyandiko yiganjemo amahugurwa abafasha kongera imikorere yabo.

Umukozi wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ari gutanga ingirwaruhame ku bantu bari hagati ya mirongo itanu ndetse na mirongo irindwi bicaye ahasakaye.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka itanu n'irindwi arimo gufasha mukuru we mu gukora isuku z'intoki yifashishije amazi meza n'isabune.

Abayobozi b'inzego zitandukanye za leta, bicaye mu cyumba kinini kiberamo inama aho bari kwiga ku buryo bushya bwo kuzamura ndetse no guteza imbere imikorere yabo.

Abaganga bari gufatira ibizamini umwana muto uri mu kigero cy'imyaka irindwi ndetse na cumi n'ebyiri kugira ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umwe mu basore bari gufasha ababyeyi baje gukingiza abana babo ari kugaburira umwana, yishimye, aseka, kandi afite ibitwenge byinshi.

Ikivunge cy'abana bari hagati ya makumyabiri na mirongo ine na batanu, bamwe muri bo bari imbere y'umugezi barimo gukaraba intoki. Imbere yabo hariho ibasi y'umutuku.

Ababyeyi ndetse n'abana babo barimo baraganirizwa n'abajyanama b'ubuzima ku buryo bushya bwo kwita ndetse no gutegura indyo yuzuye n'ubwo kurwanya imirire mibi.

Umunyeshuri w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi, cumi n'itanu ari kunywesha amazi intoki aho imbere ye hari indobo y'icyatsi.

Umukozi wo kwa muganga ushinzwe kuvura abantu, yakiranye ibyishimo umwana waje kwivuza aherekejwe n'umubyeyi we, mu cyumba barimo ari batatu kirimo utubati n'intebe.

Icyumba cyarimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kwa muganga, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo.

Abayobozi b'inzego z'ibanze bari kugaburira abana amata bifashishije ibikoresho byabugenewe nk'igikombe ndetse n'ibindi.

Abajyanama b'ubuzima basuye irerero ry'abana aho barimo kubaha amata bifashishije ibikombe byabugenewe.

Umuganga w'umutegarugori uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ari gufata ibizami abaturage baje bagana ivuriro kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Icyumba kigari, kiri kuberamo inama, iyobowe n'umutegarugori uhagaze hagati yabo, aho arimo kubabwira uburyo bushya bw'imikorere muri sosiyete yabo.

Umusore wambaye amarinete ndetse n'agapira k'umuhondo, ari kugaburira umwana waje aherekejwe n'umubyeyi we.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bari mu kigero cy'imyaka hagati y'itanu ndetse n'umunani, bari kumurika ibikorwa ndetse n'ibyo bize imbere y'ababarera.

Abana bari ku kiyaga, bari kuvoma amazi yo kwifashisha mu rugo, ndetse abo bana ni batatu bari mu kigero cy'imyaka hagati y'icumi ndetse na cumi n'ebyiri, ikindi kandi ni abahungu.

Umwana muto w'umuhungu, uri mu kigero cy'imyaka hagati y'itanu ndetse n'icumi, ari ku vomero, aho arimo gukaraba intoki yifashishije isabune.

Umwana w'umuhungu ari ku mugezi uri mu kibaya, aho ari gukaraba intoki ku mugezi imbere yiwe hari indobo yuzuye amazi ifite ibara ry'ubururu.

Umubyeyi w'umumama ari gukarabya umwana we nyuma y'uko avuye mu musarani, mu rwego rwo kumurinda indwara ziterwa n'umwanda nk'impiswi n'izindi.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu na mirongo itandatu n'ibiri, ari ku ivomero aho afite ijerekani ari kuvoma amazi yifashishije itiyo yabugenewe.

Abategarugori bafite abana bakiri bato hagati y'imyaka ibiri n'ine, baje gufata imfashanyo yagenewe kurwanya imirire mibi mu bana.

Umujyanama w'ubuzima, wambaye impuzangano, ari kwereka umubyeyi uko bapima uburebure bw'abana, agendeye ku myaka bafite.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka hagati y'itanu ndetse n'irindwi ari kuvoma amazi ku mugezi, ayafashishije igikombe aho agiye kuyanywa.

Ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera abana, kiragaragaza ishusho y'umubyeyi usigatiye umwana wiwe bari mu ruziga rukikijwe n'amasaka.

Umutegarugori ukora akazi ko kuvura abantu, ari gutera urukingo umusaza, bose bambaye udupfukamunwa, kugira ngo hatagira uwatera undi uburwayi.

Umukozi w'ikigo cy igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda rbc, ari butange impapuro zirimo inyandiko zigaragaza uko abaturage bagomba kwitwara kugira ngo birinde ingaruka ziva ku mwanda.

Umuganga arimo gusuzuma umwana w'uruhinja ruri hagati y'imyaka nk'ibiriri ndetse n'ine, asigatiwe n'umubyeyi we.

Inzu ebyiri ntoya zifite ishusho ya mpande enye zizengurutswe n'uruzitiro rukozwe mu byuma ,imbere yaho y'umuryango hari igitaka ndetse n'amatafari.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka itanu ndetse n'umunani, arimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, aho afite n'ibase irimo kujyamo amazi akarabye.

Abana bari ku ivomero ryubakiye neza, bafite amajerekani atatu mato, bari gufashwa na mukuru wabo kuvoma, abafasha kuzamura amazi.

Abategarugori babiri n'umugabo umwe bari gukusanya umusaruro wabo, nyuma y'igihe kirekire bamaze bahinga kugira ngo bizaborohere kugujyana ku isoko.

Abaganga bishimye nyuma y'uko bahuye n'umuyobozi wabo, bakabaganiriza ku buryo bushya bwo kwita ku barwayi ndetse n'ingamba nshya zo gufata neza ababagana.

Nyuma y'ibiganiro byavugaga ku buryo bwo kurwanya igwingira ndetse no kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubw'umwana atwite, abari bitabiriye ibyo biganiro bafashe ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyo ku kigo nderabuzima kirimo abaganga babiri ndetse n'umurwayi umwe uri gupimwa indwara z'umuvuduko w'amaraso, hari kandi na mudasobwa, intebe, igitambaro ndetse n'imeza iteretseho ibikoresho.

Abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bari mu nama, baganira ku buryo bushya bwo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'abanyarwanda muri rusange.

Umwana ari gukaraba mu maso, yifashishije amazi ari kuva mu mugezi, aho yishimye, ku bw'uko arimo kwikorera isuku.

Abanyeshuri bari kunywa amazi y'ikigega batonze umurongo, batatu ku ruhande rumwe rw'iburyo n'abandi batatu ku ruhande rw'ibumoso, bafite udukombe barimo bifashisha banywa amazi.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, barimo baraganirizwa ku buryo bushya bwo kwita ku barwayi, ndetse no kubungabunga ubuzima bw'ababagana mu gihe babitabaje.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashisha mu kuvura abarwayi, harimo kandi n'abantu benshi batandukanye bambaye udupfukamunwa.

Umukobwa w'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza uri hagati y'imyaka itanu ndetse n'icumi ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuri kandagira ukarabe. Impande ye hari igiti kiri mu busitani.

Abaturage bari hagati ya batanu ndetse n'umunani, bari ku ivomero, aho umwe arimo gusunika amazi kugira ngo azamuke, imbere yabo hari ikicerikani kimwe kiri kujyamo amazi ndetse n'akandi gatoya iruhande rwacyo.

Abantu b'ingeri zitandukanye; abagore, abagabo, ndetse n'urubyiruko bari hagati ya barindwi ndetse na cumi na batanu bahagaze hamwe kugira bafate ifoto y'urwibutso nyuma y'inaama.

Abantu b'ingeri zose, harimo abagabo ndetse n'abagore, barimo gupakira imifuka y'umusaruro wabo, nyuma y'uko bamaze igihe kingana n'mezi atanu, bategereje umusaruro.

Umutegarugori uri hagati y'imyaka makumyabiri ni'itanu mirongo itatu, ari ku ivomero aho arimo kuvoma amazi yo kwifashisha mu rugo akora amasuku.

Gahunda ya leta yo kurwanya indwara ya kanseri yatangajwe ku mugaragaro na Dogita Sabin Nsanzimana umuyobozi wa minisiteri y'ubuzima mu Rwanda.

Ababyeyi bagiye gupimisha abana babo ku kigo nderabuzima, bakirirwa neza, aho babanza gupima n'ibiro by'abana babo ku munzani wabugenewe, kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ni byiza buri uko uvuye kuri tolete kuko bituma utagira ikibazo cy'indwara ziterwa n'umwanda ndetse n'ibindi bibazo bi gishamikiyeho.

Umubyeyi w'umama ndetse n'abana be batatu b'abahungu bagiye ku ivomero kuvoma bitwaje ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi yo kwifashisha mu rugo.

Abategarugori bane, bari hamwe, aho umwe asigagatiye indobo ifite ibara ry'ubururu, undi nawe akaba ari kuyikarabiramo intoki.

Abana bato bari ku ivomero rikozwe mu byuma, ndetse ryubakiye neza, bafite ibijerekani bibiri; kimwe cy'umuhondo, n'ikindi.

Abategarugori batatu bari ku ivomero ritanga amazi meza aturuka ku isoko, yifashishwa mu mirimo itandukanye yo mu rugo.

Ikirangantego kigaragaza ikigo gishinzwe kwita ndetse no kugenzura uburenganzira bw'abana. Muri rubanda.

Ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima, gifite ikirangantego kirimo inkoni izengurutswe n'inzoka isohoye ururimi ndetse n'ikarita ya'Afurika.

Abaturage baje mu nama kumva icyo abayobozi babateguriye ku bijyanye n'imyirire mibi ndetse n'izindi gahunda za leta.

Umufashamyumvire mu by'imitekerereze; ari kuganiriza umwe mu baturage ashinzwe kureberera uko agomba kwitwara; kugira ngo yirinde ibibazo biterwa n'imitekerereze.

Umugabo ugeze mu za bukuru, ufite hagati y'imyaka mirongo itandatu na mirongorinwi n'itanu, wakutse amenyo y'imbere, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'igitambaro cy'umuhondo.

Nyuma y'uko umugore yahukanye umugabo yasigaye yifashe mu mayunguyungu yibaza uko ari bubigenze ngo agarure umugore we mu rugo maze amahoro yongere ahinde nk'uko byahoze kera na mbere.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, mirongo itanu, ari hagati mu bantu aho yicajwe hasi ngo asobanure ibirego ashinjwa by'ubujura.

Igishushanyo mbonera cyerekana uburyo impfu z'abana mu Rwanda zagiye zizamuka, cyangwa se zimanuka bitewe n'mwaka runaka.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, yicaye ku kirago impande y'igiti aziritswe n'umuyururu mu kaguru.

Abantu benshi b'ingeri zose bateraniye hamwe bishimye bose bazamuye ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, aho baje gushyigikira umukuru w'igihugu muri gahunda ya leta yo kwiteza imbere.

Umuturage w'umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu na mirongo itandatu n'tanu, afite indangururamajwi arimo gutanga igitekerezo mu nama yitabiriye yiga ku bijyanye n'ubuzima bw'uwo mutwe.

Abayobozi b'inzego zitandukanye bari mu cyumba kigari cy'inama, aho bari guhabwa imbwirwaruhamwe n'umutegarugori uri imbere yabo, bicaye ku ntebe zigezweho, bari gukurikira kuri mudasobwa.

umubyeyi w'umumama uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu ufite abana babiri, umuhungu n'umukobwa arimo araganirizwa ku bibazo by'imirire mibi.

Nyuma y'ibiganiro bigamije kuzamura uburyo bushya bwo kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe, abari bitabiriye ibyo biganiro bafashe ifoto y'urwibutso.

Umutegarugori wambaye ushwabari ndetse n'inkweto bishaje, yicaye rwagati mu muhanda iruhande rwe hari amacupa ya purastike, ndetse no mu ntoki ze afitemo ibyatsi ndetse n'amashashi.

Abakozi babiri b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, bari gutanga imbwirwaruhame, ku buryo bushya bwo gukoresha ikoranabuhanga mu buvuzi.

Umwana muto wiga mu mashuri abanza, uri mu kigero cy'imyaka itanu ndetse n'umunani, yicaye ku ntebe iriho ameza imbere yaho, arimo kurya ibinyampeke.

Umubyeyi w'umutegarugori uri hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, yishimanye n'umwana we w'uruhinja uri hagati y'imyaka ibiri n'itatu, nyuma y'uko bavuye kwisuzumisha ku kigo nderabuzima kibegereye.

Ubwonko nicyo gice k'ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu, kuko gifasha mu kugenzura imikorere y'ibindi bice by'umubiri bitandukanye nk'amaboko n'ibindi.

Umujyanama w'ubuzima ari kuganiriza ababyeyi ku buryo bushya bwo guha abana indyo yuzuye, ndetse no kurwanya ikibazo cy'imirire mibi gikomeje kugaragara mu bana bakiri bato.

Umuturage wikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba afite isuka mu ntoki, ahagaze imbere y'inzu isakaje amategura.

Nyuma y'ibiganiro byavugaga ku kwita ndetse no kubungabunga ubuzima bw'ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, abitabiriye iyo nama bagiye gufata ifoto y'urwibutso.

Abaturage b'ingeri zitandukanye ako cyane cyane higanjemo urubyiruko bari bitabiriye inama, bahagaze imbere y'imeza ebyiri zikozwe mu biti.

Abaturage bagiye gusura umwe mu baturage batuye mu mudugudu wabo, aho bari kujya inama ku isuku y'urugo rwe.

Umubyeyi w'umumama yahamagaye umwana we ubwo yatanga imbwirwaruhame ngo aze atange ubuhamya kubyo yari amaze kuvuga kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa.

Urubyiruko rw'abanyeshuri biga mu mashuri makuru na kaminuza, bahawe amahugurwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuzima ndetse n'abaterankunga babo.

Umujyanama w'ubuzima ari kwerekana igipimo cy'ubushyuhe, amaze gufata umwana w'umubyeyi ucigatiwe.

Umubyeyi w'umumama ukorera ikigo k'igihugu gishinzwe gufasha abacitse ku icumu, arimo agaragaza ibyangombwa bimufasha mu kazi keiwe ka buri munsi.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'ibiri, yikoreye amaboko arimo ararira, iruhande rwe hariho abantu benshi bari mu isoko, baje guhaha ibiryo bitandukanye.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri nitanu ndetse na mirongo itatu, yicaye ku ntebe iri mu nzu ifite idirishya ry'ibiti, ndetse yanahombotseho munsi y'iryo dirisha.

Umugabo wambaye ishwabari yicaye mu muhanda, mu ntoki ze harimo amashashi ariho amazi, iruhande rwe hariho ibikarito yegamiye ku gikuta gisa nabi.

Inzu yo kwa muganga yagenewe gufatirwamo ibizamini by'ubuzima nk'indwara zigiye zitandukanye nka virusi itera sida malariya ndetse n'izindi zijyanye n'ubuzima bwa muntu.

Umuganga w'amenyo yambaye agapfukamunwa ndetse n'ibikoresho byabugenewe arimo kuvura umurwayi waje amugana indwara zo mu kanwa.

Umuganga ushinzwe kuvura ndetse no gupima indwara z'amenyo, arimo kwereka umwe mu banyeshuri biga iby'ubuvuzi uko bakura ameyo.

Icyumba cyo kwa muganga gitangirwamo serivisi yo gusuzuma ndetse no kuvura indwara z'amenyo kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe zabugenewe ,utubati na mudasobwa.

Umuganga wabyize kandi ubizobereye, wambaye ibikoresho by'ubwirinzi, arimo kuvura umurwayi waje amugana, indwara zo mu kanwa, yifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe. Bari mu cyumba cya bonyine ari babiri. We n'umurwayi.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu, arimo gukoresha uburyo bushya bugezweho bwo kwita ku menyo, akuramo umwanda urimo.

Uburyo bushya bwo gupima niba iryinyo ryawe ari rizima wifashishije akadodo, ni bumwe mu buryo bugaragara kandi bunaciriritse buri wese yakoresha.

Abana bari mu kigero cy'imyaka irindwi ndetse na cumi n'ibiri batojwe ndetse banerekwa neza uko bagomba koza amenyo kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, arimo gukorerwa isuku mu menyo, kugira ngo hirindwe ibibazo ndetse n'uburwayi bushobora guterwa n'umwanda muke uvuye mu kanwa.

Inzu itekerwamo, irimo akajagari k'ibikoresho, aha twavugamo ibikoresho by'isuku, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo muri salo, intebe zo kwicaraho, ndetse n'ibindi.

Twite kandi duhe agaciro ubuzima bw'amenyo yacu, twiborosa tumaze kurya, twirinda kurya ibibonetse byose, ndetse tunakoresha umuti wabugenewe mu koza amenyo.

Umutegarugori ugeze mu za bukuru uri hagati y'imyaka mirongo itandatu na mirongo irindwi ari gutekera mu gasozi kunkwi za kinyarwanda.

Abategarugori batatu ndetse n'abagabo babiri bari mu muhanda barakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara ziterwa no kugira ibinure mu mubiri.

Umugabo ugeze mu za bukuru uri hagati y'imyaka mirongo irindwi n'itanu mirongo inani, arimo gufashwa na muganga mu gukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kwirinda indwara zigiye itandukanye.

Umugore n'umugabo we bari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu ndetse na mirongo irindwi bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umupapa ndetse n'umwana we, bafashe ifoto y'urwibutso, nyuma y'uko bari bamaze igihe kirekire bari kumwe aho bari bagiye gutembera no kuruhuka mu mutwe.

Umubyeyi w'umumama uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu, mirongo irindwi n'itanu, wambaye agashati k'umuhondo ari kubara imiti agomba kunywa ku munsi, ari mu nzu wenyine irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, akabati n'ibindi.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itandatu na mirongo itandatu n'itanu, arimo gufata imiti yandikiwe na muganga, ayinywesha amazi meza, nk'uko yabitegetse.

Abategarugori babiri umwe w'umumama ugeze mu za bukuru, n'undi uri inyuma ye, w'umukobwa, bari guseka aho umumama yicaye mu ntebe, umukobwa akaba ari inyuma mu bitugu byiwe bafatanye ibiganza.

Umutegarugori; ushinzwe kwita ku bantu bageze mu za bukuru ,arikugira inama umukambwe ugeze mu zabukuru uko agomba gufata imiti imufasha kugubwa neza.

Umutegarugori uri gukora imyituzo ngororamubiri, winanura imitsi y'amaguru, ndetse n'iy'amaboko ari kubikora, ari ku mukeka, inyuma ye hari itara ndetse n'idirisha n'intebe.

Umubyeyi w'umuma uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi na mirongo inani, arimo gufatirwa ibizame by'ubuzima, harimo umuvuduko w'amaraso ukumva uko umutima utera ndetse n'ibindi na muganga ubizobereye.

Umuganga arimo arapima umubyeyi mukuru w'umupapa, indwara zijyanye n'umuvuduko w'amaraso kumenya neza uko umutima utera ndetse n'indwara z'umwijima.

Gahunda ya leta, yashyiriweho gutinyura abategarugori, mu kwitabira gahunda z'ubuvuzi mu Rwanda, pawaringi herifu keya ini Rwanda, iterwa inkunga n'ibigo bya afurika.

Umuhuro w'ikigo cy'amashuri, bafite gahunda igira iti , twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Umuganga wo muri Nijeriya, arimo gutera urukingo rwa kovide cumi n'icyenda umuturage waje umugana, bose bambaye udupfukamunwa.

Ikirangantego kigaragaza gahunda ya leta yo kurwanya ikibazo cy'igwingira riterwa n'imirire mibi y'ababyeyi batwite ndetse n'iy'abana bakiri bato.

Umunsi mpuzamahanga, wo kurwanya indwara ya diyabete, wizihijwe mu Rwanda kuri uyu munsi, aho abayobozi bakuru b'abazima bahuriye muri komvesheni senta.

Gahunda ya leta iteganyijwe kuwa gatanu ku itariki makumya n'icyenda z'ukwa karindwi bibiri makumyabiri na kabiri, ishinzwe kurwanya ikwirakwiza ry'agakoko gatera sida mu rubyiruko.

Harabura umunsi umwe gusa ngo habe umuhuro uganira, by'umwihariko ku buzima bw'abana bakiri batoya, abatariyandikisha barasabwa kwiyandikisha vuba bidatinze.

Ikirori cyo gusinya amasezerano mu bijyanye n'ubuzima nyafurika kirangiye, abitabiriye icyo kirori bafashe ifoto y'urwibutso maze bakomeza indi mihango.

Indwara y'ibiheri ifata ku maguru, aho ugenda uzana uduheri duto duto, dutondekanye, dutera ubirwaye kushimagura umubiri wose.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida bibiri na makumyabiri na kane wizihirijwe mu nzu nini ahahuriramo abantu benshi izwi nk'inzu y'imyidagaduro, aho abashyitsi bakiriwe neza n'ababyinnyi babyinyina imbyino gakondo.

Twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, tukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twirinda gusuhuzanya, ndetse no gukoranaho, kandi igihe ugize ibimenyetso bigaragaza iyi ndwara ihutire kujya kwa muganga.

Icyumba cyo ku kigo nderabuzima cyagenewe kuvurirwamo abana, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda, intebe ndetse n'aho bakarabira intoki, harimo kandi n'akabati.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo nko kunanura amaguru ndetse n'ibindi.

Umukozi wo kwa muganga wambaye imyenda y'akazi ipfuka mu maso arimo arakora amasuku, iruhande rwe hari indobo y'icyatsi ndetse yambaye inkweto zabugenewe.

Ibitaro bikuru byitiriwe umwami Faisal biherereye mu mujyi wa Kigali bigeretse kabiri, bifite amabendera y'ibihugu bitandukanye harimo n'iry'u Rwanda imbere yabyo.

Icyumba cyabugenewe kiri ku kigo nderabuzima gifatirwamo ibizamini by'indwara zigiye zitandukanye, twavugamo nka malariya ndetse na virusi itera sida.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima ifite aho ibinyabiziga by'ibiziga bibiri biparika, imbere yayo kandi hari umuntu utanga amayinite y'itumanaho.

Icyumba cyo kwa muganga cyakira abarwayi, kirimo ibitanda ndetse n'amashuka yo kwiyorosa, kirimo abarwayi babiri barembye cyane, bakeneye ubuvuzi bwihutirwa.

Umuganga wambaye impuzangano y'akazi, ari mu cyumba kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa hapimwa abarwayi kugira ngo bamenye uko bahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kitaruye kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe ndetse n'utubati, gifite amadirisha manini akozwe mu birarahuri ndetse n'ibyuma.

Ahantu abarwayi bakirirwa bagasuzumwa ndetse bakanahabwa serivise z'ubuvuzi, bakanasobanurirwa kandi byimbitse uburyo bwiza bwo kwivuza.

Ivuriro rigezweho rifite ibikoresho bihagije byifashishwa mu gupima abarwaye indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'indwara y'agakoko gatera sida ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo utubati twabugenewe dukoranye ikoranabuhanga, twagenewe kubika neza imiti.

Ivuriro rifite ubusitani ndetse n'ibyapa bibiri kimwe kinini ikindi gito handitseho serivisi zitangwa n'iryo vuriro ,umuryango wawo impande hariho intebe eshatu z'umutuku ndetse n'ibikoresho byifashishwa abazimya inkongi y'umuriro.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi babiri ndetse n'abaganga babiri, bari gupima abarwayi kugira ngo bamenye uko bahagaze ndetse n'aho bari buhere bahabwa ubuvuzi.

Ku bitaro aho abarwayi bakirirwa n'abaganga, bagasobanurirwa uko bagomba kwitwara kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Icyumba kinini kirimo intebe umunani, amezi abiri kirimo kandi n'ibishushanyo by'umugeni.

Umuganga arimo arasuzuma umurwayi, ufite ubumuga bw'amaguru saba gusa kandi harimo n'abandi barwayi barimo gusuzumwa n'abaganga batandukanye.

Ahatangirwa serivisi yo kwakira abantu baje bagana ikigo nderabuzima hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye bategereje guhabwa serivisi.

umugabo wambaye umupira muremure ufite ibara ry'umutuku ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero y'umukara ari gutanga amabwiriza ku muyobozi w'ikinyabiziga umuganye

Icyumba kiri ku kigo nderabuzima, kigenewe kwakira abarwayi, kirimo ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa akabati ndetse n'igitanda.

Icyumba cyo kwa muganga gifite utubati, ndetse kirimo n'igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa hapimwa uko abarwayi bahagaze.

Inzu yagenewe kubikwamo imiti y'amoko atandukanye, harimo imiti ivura indwara z'uruhu ndetse n'izo mu nda, irimo akabati kabugenewe gashinzwe kubikwamo iyo miti.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, mirongo itatu n'itanu yajyanye umwana we kwa muganga abanza kumushira ku munzani kugira ngo amenye ibiro afite.

Icyumba kigari cyo ku ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye nk'amamashini y'ikoranabuhanga kandi agezweho, gifite irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Icyumba cyabugenewe, gifatirwamwo ibizamini by'abarwayi, harimo nk'ibizami bya malariya ndetse n'agakoko gatera sida, n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ahantu hagari harimo inzu ebyiri imwe ifite ishusho y'ikizeru indi ifite ishusho ya mande enye zifite n'ubusitani impande yazo.

Icyumba cyabuhariwe kiri mu kigo nderabuzima, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda byakira abarwayi ndetse n'abarwaza mu gihe bakiri kwa muganga.

Inzu igeretse kabiri, itangirwamo serivisi z'ubuganga, ifite ubusitani ndetse n'irangi ry'umweru, ifite kandi ibirahuri by'ubururu.

Inzu itangirwamo serivisi zubuvuzi, isakaje amabati y'umweru, iriho abaturage bajya batandukanye b'ingeri zose baje gushaka serivisi z'ubuvuzi imbere yaho hari ikinyabiziga cy'ibiziga bine ndetse n'icyapa kigaragaza serivisi batanga.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, harimo nka mudasobwa ifite amatara hejuru.

Inzu itangirwamo serivisi z'ubuzima iri ahirataruye, imbere yaho hariho ubusitani bwiza ndetse naho abagenzi b'amaguru baca bagiye ku bitaro.

Abategarugori batatu, bakorera ikigo nderabuzima muri serivise y'ububyaza, bambaye impuzangano zabo bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Umuganga w'inzobere kandi ubimenyereye, arimo arapima umusore uri hagati y'imyaka mirongo itatu n'itanu na mirongo ine indwara z'umuvuduko w'amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma bigezweho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa muri serivisi zitandukanye zo kwa muganga.

Icyumba kinini kandi cyisanzuye cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitambaro, ibitanda, utubati, ameza n'intebe.

Ivuriro ririmo abaganga bagiye batandukanye ritanga serivisi z'ububyaza ndetse n'izo gupima ababyeyi batwite kugira ngo bamenye uko ubuzima bw'abana babo buhagaze.

Uruzitiro rukikije ibitaro bya Ruhengeri, ruriho icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze.

icyumba cyo kwa muganga cyagenewe kwakira abarwayi kirimo ibikoresho bitandukanye nk'uburiri intebe mudasobwa ndetse n'imashini zipima uko umurwayi ahahagaze

Ikigo nderabuzima gitanga serivisi zitandukanye, mu masaha y'umugoroba harimo gupima indwara ndetse no kuvura abarwayi, bahereza n'imiti bijyanye n'uburwayi barwaye.

Ubusitani bwubakiye, burimo ibikoresho abana bifashisha bicundaho, ndetse inyuma yaho hariho n'amazu, n'ishyamba.

Icyapa kigaragaza serivisi zitangwa n'ikigo nderabuzima, aho twavuga nka serivisi yo gutanga imiti ku barwayi, ndetse no kubapima indwara zigiye zitandukanye.

Ikigo nderabuzima kegerejwe abaturage nyuma y'uko bagaragaje impungenge z'uko basigaye bajya kwivuriza kure, bityo bigatuma abarwayi bagera kwa muganga batinze, rimwe na rimwe bakahagera barembye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bari hagati yabarindwi n'umunani n'ibikoresho bitandukanye n'ibitanda n'intebe ndetse n'ibitambaro byabugenewe n'inzitiramibu.

Ikigo nderabuzima giherereye mu gice cy'umujyi, gifite ubusitani bwiza imbere yacyo, buririmo ibiti bitanga umwuka mwiza, kubantu barigana.

Inzu ebyiri ziri ahantu hejuru ku musozi imwe ifite ishusho y'ikizeru indi ifite ishusho ya mpande enye, hagati yazo haciyemo umuhanda w'umukara.

Inzu mberabyombi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara ya kanseri mu Rwanda ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'ikirangantego cyayo kirimo irangi ry'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, mbere yaho hari akabindi karimo ururabo.

Umuganga wabyigiye kandi ubizoberewe arimo apima umurwayi ukamerewe yumva uburyo umutima utera ndetse n'umuvuduko w'amaraso uko uhagaze.

IInzu yubakishije amabuye, ifite aho abangenzi banyura hisanzuye harimo abagabo babiri barimo kunyura muri iyo nzira.

Umukozi w'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC ari gutanga amahugurwa ku bakozi bakorana ku buryo bwo kurwanya malariya ikaranduka burundu.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza n'intebe ndetse n'aho gukarabira intoki, harimo kandi n'ibikoresho by'isuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, imeza, intebe, ibirahuri ndetse n'utubati.

Icyumba cyo kwa muganga cyagenewe gucumbikira abarwayi, kirimo ibitanda n'utubati gifite idirisha rirerire rikozwe mu birarahuri ndetse n'ibyuma.

Muganga wabyigiye kandi ubizoberewe, ari gupima umurwayi indwara zitandukanye, harimo n'umuvuduko w'amaraso, isukari mu mubiri ndetse n'ibindi.

Ikigonderabuzima giherereye mu gice cy'icyaro gifite ubusitani bunini cyane, aho abarwayi bicara bagafata umwuka mwiza uva mu biti biri muri ubwo busitani.

Inzu yakirwamo ababyeyi baje kubyara ndetse n'abaje kwipimisha, n'abaje gupimisha abana babo.

Icyumba cyo kwa muganga cyisanzuye kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu ubuvuzi butandukanye kirimo kandi n'ameza ndetse n'utubati.

Ivuriro rigari rifite ubusitani buhagije burimo ibiti ndetse riteyemo n'ibyatsi, ritanga serivisi zitandukanye twavuga nko gukebwa ku bagabo ndetse no kugira inama abagore kuvura indwara zitandukanye malariya, sida n'izindi.

Inzu yabugenewe ishinzwe kubika imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo imiti ivura malariya, imiti ivura inzoka zo mu nda ndetse n'ivura amenyo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo nk'akadenesi umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, ndetse n'ingofero yagenewe kwifashishwa irinda mu mutwe.

Umuti w'amenyo ufunitse mu ducupa twa purasitike, ukora neza kandi urwanya ukanahangana n'indwara zituruka mu kanwa.

Icyumba kirimo utubati intebe ndetse na mudasobwa, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo.

Umutegarugori uri mu kigero hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itatu, arimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu kuvura, atanga raporo akoresheje mudasobwa.

Abasore babiri bari mu cyumba gikorerwamo imyidagaduro, aho umwe aryamye ku gitanda, undi ari kumufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri y'amaguru.

Umuti wabugenewe ushinzwe kurwanya indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse n'isukari nyinshi mu mubiri ukora neza kandi vuba.

Umutegarugori wo mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu yambaye inziramugozi matwi ari kunywa amazi yifashishije icupa.

Umusore uri hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu, ari gukorera imyitozo ngororamubiri hafi n'amazi, aho akaguru ke yagashize aho abagenzi bafata bagenda kugira ngo bataza kugwa mu mazi.

umuganga ushinzwe kuvura abakinnyi agiye kuvurira umukinnyi wari uri mu kibuga hanze kugira ngo aze kugaruka akomeze umukino nk'uko bisanzwe.

Umutegarugori ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho aryamye ku mukeka ndetse icyumba arimo kikaba gifite idirishya rinini rikozwe mu byuma ndetse n'ibirahuri.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, akacishamo akanywa n'amazi, kugira ngo ataza gucika intege.

Umukobwa urimo kunywa amazi ari mu icupa, ufite umusatsi mwinshi, yambaye akantu k'umukara ku kaboko ndetse n'isengeri.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, wambaye isengeri, ari kunywa amazi, yifashishije icupa.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, ari ahantu hari ibiti, arimo kunywa amazi, yifashishije icupa.

Umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ahangane n'ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'indwara ziterwa n'isukari nyinshi.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri nk'inkweto zabugenewe ndetse n'umupira w'amaguru hari kandi n'igikoresho cyifashishwa hapima uburyo umutima utera.

Umusore uri mu kigero k'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ananura imitsi y'amaboko, iruhande rwe hari umufashamyumvire .

Igikoresho gikozwe muri pulastike cyambarwa mu mavi kugira ngo ataza gukoboka, ukifashisha bakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bikorwa bisaba gupfukama.

Umusore uri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo ine, arimo arimenaho amazi kugira ngo agarure ubuyanja nyuma yuko yari amaze kugira ikibazo cy'ubushyuhe bwinshi mu mubiri.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri na mirongo itatu, arimo gukora imyitozo ngororamubiri azamuye amaboko hejuru, apfukamishije ukuvi kumwe, akaguru kandi gateye imbere.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu arimo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ni muganga arimo gufata ibizamini umurwayi kugira ngo amenye uko uhagaze, by'umwihariko ari ku mupima indwara y'umutima ndetse n'iy'umuvuduko w'amaraso.

Ikinyabiziga cy'ibiziga bine kiri mu muhanda w'ibitaka ukikijwe n'ibiti ndetse iruhande rwaho hari n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Imeza iriho metero, igikombe kirimo umutobe w'imbuto, imboga, urusenda ndetse n'inyanya, hariho kandi n'imbuto zitandukanye.

Udukapu tubiri twagenewe gukoreshwa mu butabazi bw'ibanze dufite ibara ry'umutuku, ndetse tuba turimo n'imiti yifashishwa mu gihe hagaragaye umurwayi ukeneye ubuvuzi bw'ibanze.

Ibikoresho by'isuku, akabogisi batwaramo imiti, impakasi, imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse n'inshinge batera abarwayi bakingira indwara runaka.

Ibiryo biriho urusenda, indimu, imineke, pavuro ndetse n'indimu, ni bimwe mu biryo dutegetswe kurya kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umusore w'ibigango ufite ubwanwa, ndetse n'agatambaro mu ijosi, arimo kunywa amazi meza ari mu gacupa kabugenewe, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore urimo gukora siporo, yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umukara ahagaze.

Abaganga bashinzwe iby'ububyaza bane bari mu cyumba aho bambaye impuzankano zabo bifashisha mu kuvura, icyo cyumba kandi kirimo na mudasobwa.

Icupa ryuzuye amazi rifite umufuniko w'ubururu, riri mu mazi rwagati aho amazi yazamutse.

Umuti upfunyitse neza ku gacupa ka purasitike kayirinda kwangirika ndetse no guhura n'ubushyuhe cyangwa se ubukonje, igenewe kurwanya ububabare mu mubiri w'umuntu.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze iri mu gikapu cy'umutuku, irimo ndetse n'ibikoresho byifashisha bavura twavugamo nk'imakasi.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kandi bigezweho, ifite igikuta cy'umweru cyanditseho amagambo abaranga ndetse n'amatara hejuru.

Umusore ufite igikoresho cyabugenewe, bashira ku kaboko kugira ngo bapime, kandi banamenye uko umuvuduko w'amaraso mu mubiri uhagaze.

Umuti wabugenewe, ushinzwe kugabanya ububabare mu mubiri w'umuntu, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'uburibwe bukabije bw'umutwe, ndetse n'izindi ngingo z'umubiri muri rusange.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, yirinde n'indwara ziterwa n'isukari nyinshi mu mubiri.

Umupira uriho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi, kirimo ikirangantego cyaho gifite umusaraba uri mu ibara ry'umutuku.

Umubyeyi yajyanye umwana we kwa muganga ngo bamupime indwara zo mu kanwa ndetse n'ubuzima bw'amenyo muri rusange, inyuma ye hariho abantu babiri, umwe ukora amasuku n'undi waje aherekeje uwo mubyeyi.

Igikoresho cyabugenewe gishinzwe kugorura abantu bahuye n'ikibazo cy'imvune cyifashishwa akenshi mu gihe habaye iki.

Umugabo n'umugore bari gukorera imitozo ngororamubiri mu muhanda yo mu misozi aho afite uducupa turimo amazi mu ntoki zabo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igikoreshwa cy'ikoranabuhanga cyifashishwa bapima imiterere ndetse n'imikorere y'ibice by'umubiri by'umuntu.

Ibikoresho by'isuku byifashishwa mu kurwanya indwara ziterwa n'umwanda, harimo nk'umuti w'amenyo ndetse n'imiti ivura indwara z'uruhu.

Umutegarugori uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu, ari gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi abusanije amaguru, iruhande rwe hateretse agacupa k'amazi.

Amababi y'ibiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hakorwa imiti itandukanye ivura ndetse n'indwara zitandukanye harimo nk'indwara z'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'izindi.

Imiti y'amoko atatu atandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ipfunyitse mu ducupa twabugenewe tuyirinda kwangirika.

Imiti ikozwe mu mwimerere w ibimera imbuto, urwanya indwara z'uruhu indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'ubuzima bw'umutwe.

Imiti gakondo ipfunyitse neza mu macupa y'ibyuma yabugenewe abirinda kwangirika kandi akanayifasha kumara igihe kirekire.

Umuti bwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, upfunyitse neza mu gacupa kabugenewe, karimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Icyatsi kiza gifite amababi maremare, kifashishwa mu buvuzi, kivura indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane, impiswi, diyabete, mukarago ndetse n'akanigo.

Umuti wa gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, upfunitse mu gacupa k'umweru, ufite umufundiko w'umuhondo, ufite n'ibiwuranga bir mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ndetse n'uducupa twabugenewe two kubikamo iyo miti, ndetse n'agasekururo bifashisha bari kuvanga banakora iyo miti.

Ikimera cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, gifite ibara ry'icyatsi n'amabara ari mu ishusho ya mpande eshatu, kifashishwa mu kuvura indwara y'umutima.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi n'amababi ari mu ishusho rya mpande eshatu byifashishwa mu kuvura indwara zigenda zitandukanye harimo nk'ibiheri ku mubiri w'umuntu n'izindi.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hakorwa imiti igiye itandukanye, harimo nk'ivura indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda.

Ibiti byo mu misozi ni bimwe mu bintu bidufasha mu kugira ikirere cyiza. Biduha imvura ndetse n'umwuka mwiza wo guhumeka, bityo tukabona ku tubaho.

Abayobozi b'umushinga w'ubuhinzi bw'ibimera byifashwawe mu buganga, bahuriye hamwe, aho bari bagiy guheba uko umusaruro wabo uhagaze.

Ikimera gifite ibara ry'icatsi n'amababi afite ishusho ya mpande eshatu, kifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda.

Abakerarugendo basuye ahantu hejuru musozi, hariho urutare ruvubukamo amazi menshi ndetse n'ibyatsi byinshi bikoze ibihuru impande yaho.

Imiti y'amoko atandukanye ipfunitse ibikoresho byabugenewe biyirinda kwangirika byifashishwa mu kurinda indwara zirimo iz'uruhu, indwara zo mu nda ndetse n'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuti ukozwe mu bimera, bifashisha mu buvuzi bwa gakondo, upfunyitse mu gacupa gafite umufuniko w'umuhondo.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amababi ari mu ishusho ya mpande eshatu cyifashishwa mu buvuzi butandukanye mu kuvura indwara z'uruhu, indwara y'ubuhumekero, indwara y'umuvuduko w'amaraso.

Umuti wabugenewe ukozwe mu mwimerere w'ibimera uvura ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikanavura n'indwara zifata prostate.

Tangawizi ni ikiribwa cyifashishwa mu buvuzi, kivura indwara zigiye zitandukanye harimo ibicurane, indwara zo mu nda impiswi umutwe n'ibindi.

Ikimera kivurishwa mu buvuzi gakondo, kirinda ibisebe, kuzana mashyira, kikarwanya indwara z'imirire mibi, ndetse kikanifashishwa mu gukumira.

Umuti ufashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ufite amagarama ijana na makumyabiri, wifashishwa mu kwica udukoko nk'imibu n'amasazi ndetse n'ibindi.

Isoko risakariye ,ririmo abantu benshi ,ririmo bicuruzwa nk'imbuto ,amavuta ibinyampeke n'ibindi.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi, cyifashishwa mu buvuzi, hakorwa imiti y'amoko agiye atandukanye, twavugamo nk'imiti irwanya indwara zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, n'izindi.

Ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo, bivura indwara zitandukanye. Twavugamo nk'indwara zifata imyanya myibarukiro, iz'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda.

Imiti y'amoko atandukanye harimo ikozwe mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zifata umuntu.

Amavuta ari mu icupa ry'umuhondo rifite umupfundikizo uri mu ibara rya oranje, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu ndetse n'indwara z'imirire mibi.

Imiti ivura indwara zitandukanye harimo ibicurane, isereri, umuvuduko w'amaraso ipfunitse neza mu ducupa twabugenewe.

Umuti mwiza ukozwe mu mwimerere w'ibimera nk'umuharavumba wivanzemo n'amazi, unyobwa ukarinda inzoka zo mu nda ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda.

Imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ndetse n'igipapuro, hari n'ibitabo bigaragaza uko imiti ivangwa, n'isekuru bavangiramo iyo miti.

Umuti wifashisha mu buvuzi bwa gakondo, mu kuvura abantu ifite amagarama ijana, ifunitse neza mu gacupa k'umweru.

Imiti yifashisha ubuvuzi bwa gakondo, ifunitse neza mu dukoresho twabugenewe ndetse iri m'udukarito tuyirinda kwangirika.

Umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo ufite amagarama mirongo itandatu wifashishwa mu kurwanya ndetse no kwica udukoko dutera indwara nka malariya n'izindi.

Imiti ikora neza, kandi yizewe, ikozwe mu bimera, yifashishwa mu kongera intungamubiri, ndetse n'imbaraga, mu mubiri wa muntu, ikanarinda n'indwara zigenda zitandukanye.

Umuti ukozwe mu bimera by'umwimerere, ushinzwe kurwanya indwara z'imirire mibi inzoka ndetse n'ibicurane tutibagiwe na diyabete.

Umuti wifashishwa bakaraba mu ntoki wica udukoko uteretse ku meza akoze mu biti, aho ufunitse mu icupa rifite umufuniko w'umweru.

Ibimera byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo havurwa indwa zitandukanye, bikikije igikoresho bifashisha bategura iyo miti kugira ngo babone uko bayiha abarwayi.

Imeza iteretseho agacupa karimo imiti bifashisha mu buvuzi bwa gakondo, iriho kandi ubuki, ndetse n'imbuto.